Umugabo uri mu murima yambaye ishati y'umweru ahetse ipombo mu mugongo arimo aratera umuti kugira ngo imyaka ye yeze itazarwara ubukoko maze azabashe kuyigurisha umuturage imeze neza.

Ahantu mu gishanga, hari inzuzi z'amafi, hagati y'abambizi z'amafi hubatsemo utuzu, abantu bakoresha mu igihe barimo baroba amafi, kugira ngo abashe kugera aho bayateganyirije.

Amazi arimo abantu benshi bafite indobo, harimo abakobwa batatu bambaye amataburiya ndetse na bote hari n'umugabo barimo hagati, barimo baradaha amazi bayashyira mu ndobo kugira bagere aho bayajyana kandi bayakoresha neza.

Umurima mwiza cyane uteyemo ikawa, harimo n'umuntu uri gusoroma ikawa n'ikawa zahiye zabaye umutuku ndetse harimo n'izindi zitahiye, ubwo izahiye arababasha kujya kuzigurisha ubundi bamuhe amafaranga agende atunge umuryango.

Abantu bari ahantu hari ikawa nyinshi cyane zikiri ntoya ziri mu bihobo barunamye barimo barazishyira bamwe ku bitaro abandi mudobo no mu mabasi, iruhande rwabo bari imodoka iparitse yo kuzishyiramo kugira ngo bazijyane bage kuzitera.

Umugabo uri ahantu hera cyane mu murima w'amashu. Afite umuhoro awufashe mu ntoki. Hirya ye kandi na none hari ibikari byumye kandi afitemo igare mu murima, yaje gusarura amashu kugira ngo ayajyane age kuyagurisha.

Umugabo uri mu murima, arimo aratera voka yambaye, ikoti ry'umutuku na boti ndetse ifuka yayifumbiye, hakurya ye hari icyayi ndetse hari n'ibindi bihu ari gutera avoka kugirango ngo izakure ayirye.

Umurima wa uteyemo imyumbati umuntu ushaka imyumba ti aho aza akayikura, akayijyana ku isoko, akayishyira abatayifite ubundi bakayigura cyangwa se nawe akayirya kuko ni imyumbati myiza cyane.

Umurima uri ahantu heza cyane ndetse urimo igiti cy'ipapayi ni amapapayi yeze ndetse ntayatarera, umuntu wese ubishaka araza agasoroma ipapayi ubundi akirira ntakibazo.

Umudamu munini cyane uri ahantu heza. Yambaye ikanzu ifite inyuma h'umutuku ndetse irimo utundi tudomo tw'umukara n'umutuku. Harimo afite ipombo arimo aravomera imibyari kugira ngo itazuma akagira ikibazo k'inzara.

Umurima uteyemo imyaka itarakora gusa hari abantu iruhande rwayo harimo umudamu nanone ufite rozwari arimo aruhira kugira ngo iyo myaka itazuma ikanga gukura.

Amazi ari ahantu heza cyane ndetse adatemba, hakurya y'amazi hari ibyatsi byiza cyane kandi hari n'urugo rw'imiyenzi, umuntu wese wagera yahishimira kugira ngo arebe ibyiza bitatse u Rwanda.

Isambu nini cyane ihinzemo ibihingwa bitandukanye by'umwihariko harimo ibiti bitangiza iyo myaka kandi iyo sambu ihinze mu buryo bw'amatarasi y'indinganire kugira ngo birinde isuri.

Igishanga kinini cyane gihinzemo umuceri, umwe ureze undi nturera. Hakurya yaho hari imisozi iriho ibiti, hagati haragabanywamo n'umurongo. Umuturage wese aza gusarura umuceri ndetse bakawujyana aho ugomba kujya ubatunga.

Ahantu heza cyane hari inkoko nyinshi z'ubwoko butandukanye by'umwihariko n'inkoko za kijyambere zitera amagi, zirimo ziratora ibyo kurya, ku buryo umuntu uwo ari we wese ushaka kugura inkoko aza akayigura agatwara inkoko ashaka kandi nziza.

Ifamu nziza cyane irimo inka zifite amahembe manini cyane inka zininyarwanda kandi hari abantu baje kuzireba ku buryo ureba ko bashaka kuzigura kugira ngo nabo bagire iyo bajya koborora bazabone umukamo.

Ahantu heza cyane hari ibiraro byoroherwamo ingurube, hari ingurube ihagaze imeze neza ku buryo buri muntu wese uje gushaka ingurube hano ayihabona kandi akabasha kuyijyana nk'uko abyifuza.

Ahantu hari inyamaswa zo mu gasozi harimo udusumbashyamba, isha ndetse n'inzovu, bigaragara ko zibanye neza nta kibazo, ndetse harimo n'ibisamagwe bibanye neza nta kibazo bifite, kandi biryamye hagati y'izo nyamanswa.